Ino botike icuruza ibigendanye n'amavuta, harimo amavuta yo kwisiga, ayo guteka harimo kotegisi zifashishwa mu isuku, harimo pampa, harimo PH bakoresha bisukura, amavuta bakoresha bateka, ayo kwisiga, fanta zo kunywa n'ayo gusiga mu mutwe.

Hano ni muri atoriye, harimo umuhungu wari ari kudoda imyenda, harimo amamashini, bacuruzi ibitenge, harimo ibikapu, harimo n'abantu baje guhaha, harimo umugabo afite mvilope, harimo umugabo ari kubaza ibitenge, harimo amajipo, harimo n'ibitenge harimo n'imashini.

Iri ni isoko ricuruza amatelefoni harimwo amatelefoni ya tekino ikirango cya kanolo kandi iri duka riherereye hano Nyagatare, harimo utubumba harimwo imbabura, hari amagare n'ibindi bikoresho bitandukanye ni byiza.

Dore etaje iriho jaride, iparitse imodoka, igeretse gatatu. Isakaje amabati meza, hariho uturabyo, hari umuhanda.

Hano ni muri saro harimo intebe iriho vaze, hari ingoma hari ameza, hara dekoye, hari ibitambaro, harimo sima, hateguye neza cyane, mbega ahantu hateguye neza cyane, iki cyumba rwose ni saro nziza cyane.

Umumama ari gucuruza, ari gucuruza amavuta, korogate, indodo, harimo n'abandi bagabo bari gucuruza, ayo mavuta ni meza cyane kuko afasha gutuma uruhu rworoha, indodo zidufasha kudoda imyenda, tuno dutentwari tuyungurura ibiribwa neza, tukayungurura amazi ndetse n'umutobe, bigatuma bimera neza.

Hano hari agasoko bita ndarariye harimo ababyeyi barimo gucuruza badanditse inyanya, badanditse imboga, iri soko ni ryiza rituma umuntu wari ugiye kuburara arijyamo agahaha mu Rwanda mu duce twinshi na twinshi hano rino soko rikunze kuhaba baragenda bagacuruza abantu bakajya guhaha bakahakura imibereho abandi nabo bakabona amafaranga.